Ikirango kinini kiriho umuzungu wambaye ikoti n'ishati y'umweru, hakaba hariho imibare makumyabiri, cumi n'umunani ndetse n'indi mibare yandikishijwe amagambo y'umukara, icyo kirango kirango gifite amabara harimo umutuku n'umweru.

Ibinyabiziga byinshi, harimo imodoka zifite ibara ry'umukara, umweru ndetse n'umutuku, ibiti ndetse n'amatara yo ku muhanda, hakaba hari n'amazu hirya, hamwe n'ikirango kiriho umugore wambaye umupira w'umutuku, akaba afite n'ikayi mu ntoki.

Abantu babiri umugore n'umugabo, akaba umugore yifashe ku matama yasetse akaba afite imisatsi y'umukara imanuye, umugabo we akaba amufashe ukundi kuboko ko hirya, bakaba bambaye amapantaro y'ubururu ndetse n'amashati, bakaba bari mu gishushanyo cy'inzu ifite ibara ry'umukara.

Ikirango inzu; imeze nk'umunara ifite ibara ry'umweru munsi yaho hakabari n'indi nzu ifite ibara ry'umweru iri ku musozi, amabuye, inyanja n'amagambo y'umweru.

Iyi shusho iragaragaza inzu y'ubucuruzi bucuruza ibicuruzwa by'ubugeni harimo uduseke, amahembe hakaba harimo imipira, imisego, n'uducupa tw'ibirahure, nkaba ndikubonaho n'urugi, rukaba rifite ibara ry'umweru.

Ndi kubona umucuruzi n'umuguzi, harimo n'ibicuruzwa umunzani, amafarini, amakaziye, imiceri, amabaze.

Ndi kubona imyenda harimo ubururu, umukara, umweru, icyatsi, umuhondo n'inzu, biri ku nyine y'ubucuruzi.

Inkweto zifunguye zigiye ziriho udusaro dufite amabara atandukanye aho hari umweru umuhondo udusaro dufite ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu bwerurutse izo nkweto zikaba zifite hasi cyangwa se taro zisa umukara.

Imbuga y'amatafari, hakaba hari abagabo babiri, umwe w'umusore undi w'umusaza, umusaza akaba yambaye ishati undi akaba yambaye umupira, bakaba bafite ikirango cyanditseho Akagera mu magambo y'umutuku, hakaba hari n'imodoka ifite ibara ry'umweru n'indi iri hirya ifite ibara ry'umukara.

Ibinyabiziga bine byegeranye harimo bitatu bifite ibara ry'umukara, biri imbere y'urugo, inyuma y'urugo hakaba hari ibiti, n'igikoresho gisa ubururu gitwara imizigo.

Imodoka ifite ibara ry'umukara, ikaba icanye amatara, ikaba ari iy'ikigo gicuruza imodoka, ikaba inafunguye imiryango, hirya y'imiryango akaba ari abakobwa bambaye imipira y'umweru ndetse n'amapantaro y'ubururu.

Ndi kubona inzu ifite icyapa kigaragaza ko kiriho ikigo gishinzwe gucuruza imodoka nkaba ndi kubonaho n'imodoka n'ipoto rifite insinga zijyana amashanyarazi...

Ikirango ifite ibara ry'umweru n'umutuku kigaragaza ko ariho hakorerwa isuzuma ry'imodoka ngo barebe ko zifite ubuziranenge inkingi zifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibinyabiziga biri mo imbere mu nzu.

Ndi kubona imodoka ya Toyota n'izindi modoka zo hirya n'ibiti n'umuhanda n'amatara.

Imodoka iri kugurishwa miliyoni mirongo itatu ikaba ari y'ikigo gishinzwe kugurisha imodoka ikaba ifite ibara ry'umukara n'ibirahure biboneranamo ukuntu hakaba hari ibiti ndetse n'inzu hirya.

Abagabo ndetse n'imodoka cyangwase ibinyabiziga n'ibirango bigaragaza ikigo gicuruza imodoka ndetse n'ibirahure by'inzu cyangwase by'inyubako bifite ibara ryijimye.

Amafaranga ibihumbi bitanu, ibiti bifite indabyo z'umutuku bikaba bisa icyatsi inyubako abategarugori bazamuye amaboko intore zifite amacumu imikono.

Ibikoresho bifashisha bari kubara amafaranga, amafaranga y'abanyamahanga, amabuto ari kuri icyo gikoresho afite ibara ry'umuhondo ndetse akaba afite n'ibara ry'umukara.

Umugabo munini w'igikara akaba yambaye ishati, ndetse akaba ari gukoresha igikoresho bifashisha bari kubara amafaranga mu kigo kibika amafaranga, hakaba hari n'amafaranga imbere y'uwo mugabo aziritse akaba ari ku meza.

Abantu batatu harimo umugore umwana ndetse n'umugabo bakaba bahagaze imbere y'imeza iteretseho ibyo kurya biri ku isahani ndetse n'ibyo kunywa biri mu gikombe.

Abantu babiri b'abagore cyangwa se b'abakobwa umwe uri hanze n'undi uri mu nzu mo imbere, uri mu nzu mo imbere akaba afite igikoresho ifashisha abonganiza amata, bakaba ari kuyashyira mu turerekani dufite ibara ry'umweru, hakaba hari ikindi gikoresho cy'icyuma cyifashishwa babika amata bakanayakonjesha.

Ndi kubona umucuruzi, nkabona imeza, nkabona hateretseho igikoresho bakoresha basuka cyangwa basukira abakiriya amata cyangwa se igikoma, nkabona amagi, akabati kariho ikirarahure n'intebe.

Umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba anafite umusatsi w'umukara, akaba ari imbere y'idirishya rifite ibara ry'ubururu n'utwuma tw'ubururu, hanze hakaba hari umugabo munini ufite inda wambaye umupira w'umweru.

Igikoresho cy'icyuma bifashisha bashyiramo amata iyo bagirango amare igihe kinini kikayakonjesha, hejuru yacyo hakaba hari ibikoresho bifashisha badaha amata ndetse hakaba hari n'urusinga rw'umukara ruri ku rukuta rufite ibara ry'umweru.

Umuryango ufite urugi rufite ibara ry'umweru ndetse umuryango ukaba uriho ibikuta bifite ibara ry'ubururu, imbere yawo hakaba hari imeza iteretseho indobo irimo ibiryo bakorera mu mafarini ndetse n'imineke, hasi hakaba hari agakoresho bifashisha bajugunya imyanda.

Umuntu ufite icyansi uri kubuganiza amata mu cyuma gishinzwe gukonjesha amata kugira ngo adapfa, uwo muntu akaba yambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'umupira w'umukara.

Isahani ifite amabara atandukanye ndetse ikaba inarushushanyijeho uturabyo dufite amabara y'umutuku'icyatsi ndetsekaba hariho urupapuro bifashisha bafata ibiryo bikoze mumandazi akabari n'ameza ndetse n'intebe isa ubururu.

Muri ino foto ndi kubonamo telefone ngendanwa n'intoki z'umuntu zifite impapuro nkabonaho n'amagambo y'umutuku akaba ari ikigo gishinzwe ihererekanyamakuru.

Intoki zimeze nk'iz'umugore zifashe telefone ngendanwa, akaba ari ku rubuga rw'ikoranabuhanga, hakaba harimo akagabo kamanitse amaboko gafite ibara ry'umukara kari mu kizeru.

Abantu harimo umugore wasamye ndetse n'umugabo. Umugabo akaba yambaye umupira w'ubururu akaba ari kumwe n'umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'umuhondo, akaba afite uwo mugore akaba afite telefone ngendanwa,

Zigamira itangira ry'amashuri, tangira umwaka mushya w'amashuri mu mahoro, izigamire na n'ikigo gishinzwe kubika amafaranga y'abanyeshuri ndetse hasi hakaba hari telefoni ngendanwa.

Igipapuro giteyeho kashe, izengurukijeho uturongo tw'umutuku, hakaba hari n'andi magambo afite ibara ry'icyatsi kibisi, ndetse n'umuhondo, akaba ari ikigo gishinzwe gusoresha.

Amafaranga y'amanyamahanga atari amafaranga y'u Rwanda akaba ari mu ntoki z'umuntu umeze nk'umugore, imbere hakaba hari imashini yifashisha babara amafaranga akaba anateretse ku kabati.

Umugabo wambaye ishati igiye irimo, uturongo tw'umukara, n'ubururu tugiye tumanutse nu tundi dutambitse, akaba afite amafaranga y'abanyamahanga ,aho afite amafaranga ariho umugabo ufite uruhara, hakaba n'andi mafaranga ariho umugabo wambaye amadarubindi, akaba ayafite mu ntoki izo ntoki ze zikaba zambaye .

Intoki zipfumbase cyangwa se zifashe amafaranga hamwe n'izindi ntoki ziri kugaruka zimuha amafaranga, ayo mafaranga akaba afite ibara ry'umweru ndetse hariho n'umugabo ufite uruhara ariko ku ruhande hakaba hariho imisatsi, akaba ari amafaranga y'abanyamahanga.

Umuntu wambaye umwenda uriho utudomo tw'umweru ukaba unasa n'ubururu akaba afite intoki zifite amafaranga akaba ari kuyabara, ndetse akaba ari amafaranga y'amanyamahanga atari amafaranga y'amanyarwanda.

Amaboko abiri afite amafaranga amwe ahambiriye ndetse n'andi adahambiriye, ayo mafaranga akaba ari amafaranga y'abanyamahanga akaba afite ibara ry'umweru ndetse mo imbere hakaba harimo inzu, hakaba hari igikoresho bifashisha babara amafaranga.

Amafaranga aturuka cyangwa se bakoresha mu bihugu by'Iburayi, hakaba harimo amafaranga icumi, mirongo itanu, makumyabiri, akaba arimo afite ibirango bisa ubururu.

Intoki zifite amafaranga hakaba hari intoki ebyiri ziriho uturange tw'umutuku hakaba ari amafaranga magana atanu n'andi igihumbi hakaba hariho umugabo ufite uruhara wambaye amadurubindi.

Ikirango kiriho umugabo akaba yambaye ikoti ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru, hakaba hari n'undi musore wicaye hirya cyangwa se umugabo wambaye umupira w'umweru akaba ari kureba ku birango hakaba hari n'umuryango winjira mu nzu.

Ibirango bibiri byegeranye bikaba bifite amabara harimo ubururu bwerurutse n'ubururu bwijimye akarimo amagambo yanyandikishije umweru ndetse na "E" yandikishije ibara ry'ubururu iri mu kiziga hakaba hari ibikuta bigiye biriho uturongo tw'amatara.

Ndi kubona umuntu ucunga umutekano, ibyapa, abagabo babiri, umwe ucuruza amayinite, n'umuhanda, n'inzu igeretse.

Ikirango kinini, kiriho itara hejuru, kikaba kigizwe n'amabara abiri, ubururu bwerurutse n'umweru, hakaba ari ahantu bavunjishiriza amafaranga ndetse hakaba hari n'ibindi birango hirya yacyo.

Inzu ifite ibirango Bigaragaza ibikorerwamo cyangwa se ibikorwa bikorerwamo, ikaba ifite imiryango ibiri, isa umweru, ikaba iriho amagambo y'umutuku n'ubururu.

Ikirango kigaragaza ko ari ari ikigo gishinzwe kubika amafaranga ndetse kikaba gifite ibara ry'ubururu n'umweru, hasi hakaba hari n'ibindi birango biriho nimero za terefone ngendanwa.

Iyi shusho iragaragaza cyangwa se irerekana cyangwa se ifite ibyapa bigaragaza ikigo gishinzwe kugurana amafaranga y'abanyamahanga, cyangwa se amafaranga waba ufite ayo ariyo yose, hakaba hariho n'imashini zisohora amafaranga.

Intebe nyinshi ziri mu nzu hakaba hari intebe ifite ibara ry'umukara, ikaba irimo imisego itatu itukura, ikaba hari n'indi ntebe y'umweru, imeza ndetse n'izindi ntebe zifite ibara ry'ubururu.

Intebe zo kwicaraho zigiye zifite imisego ibiribiri ikaba igiye hariho amabara atandukanye ndetse nmeza nini ifite ibara ryenda gusa umweru n'uturi tumeza tubiri dutoya.

Intebe enye ndetse n'Imeza hagati, zikaba ziteretse hino y'umuhanda, igare, ipikipiki ndetse n'imodoka nini ifite ibara ry'umweru, amazu ndetse n'insinga z'amashanyarazi n'amatara yo ku muhanda.

Akabati gafite aho batekareka hafite ibara ry'umweru ndetse kakaba gasa umukara hasi, hakaba hari udukoresho bifashisha bari gukurura ngo bafungure, hakaba hari uburyamo busa umweru ndetse bukaba biriho ishuka y'ubururu, hakaba hari n'amarido ndetse n'agakoresho gasohora amazi.

Iyi shusho iragaragaza umuhanda hakaba hari ibinyabiziga biparitse, amatara, inyubako, ibiti n'amapoto ariho amatara, hakaba hariho n'abagenzi, n'ibinyabiziga bifite ibiziga bibiri.

Inyubako ndende igiye ifite utudirishya twinshi tugiye turiho utwuma dutangira abantu ngo batagwa, hakaba ariho n'ikirango kigaragaza igikorerwa muri iyo nzu, hakaba arimo n'ibyumba biri kwaka amatara, hamwe n'umuhanda, hamwe n'ibiti.

Ikirango gifite ibara ry'ubururu ndetse hakaba hari n'ibikuta bifite ibara ry'umweru hamwe n'inkingi, amatara hejuru ndetse hakaba hari n'akabati kazengurukijeho ibara ry'umukara, hamwe n'umuryango hirya w'umukara.

kuri ino shusho iragaragaza ni inzu iriho ibyapa ibyanditseho Nyarutarama kuri iyo nzu hakaba ari inzugi z'ibirahure by'umukara, hakaba ariho n'insinga z'amashanyarazi.

Iyi shusho iragaragaza umuhanda n'inyubako bari kubaka iyo nyubako imbere yaho hakaba hariho indabyo cyangwa se akaba ari ibiti hakaba hariho imiryango miremire n'ibyapa kuri iyo nzu hakaba hariho n'amabuye.

Itara rinini, n'utundi dutara duto, urukuta rufite ibara ry'umweru n'ibirahure biriho ibirango bigaragaza ibikorerwa mu nyubako n' ikindi kirango kiriho amagambo y'umutuku, kigaragaza ahantu hakirirwa abakiriya n'ivaze iteyemo igiti mu nguni.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, harimo abagore n'abakobwa n'abasore n'abagabo, hakaba hari umugabo wambaye amadarubindi, umugore wambaye amadarubindi, bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, hakaba hari imbere yabo imeza iteretseho ubucupa bw'amazi.

Igiti kiriho udutako ndetse n'udutara, hasi hakaba hateretse udukarito dufite ibara ry'umutuku n'umweru, icyo giti kikaba gisa icyatsi, intebe zifite ibara ry'umukara ndetse n'ibirahure.

Indangururamajwi iriho utwuma tunyuranyuranyemo, ikaba ifite hariya bafata hasa umukara ndetse hakaba hari amagambo afite ibara ry'umweru, ndetse hakaba hari ikirango kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Ndi kubona amabase arimo imineke n'andi mabase arimo ibishyimbo, abadamu b'abacuruzi batatu, amagare, amazu y'ubucuruzi, n'igiti kuruhande rwabo, n'amabuye n'imifuka.

Abantu higanjemo abagabo n'abasore ndetse n'umugore umwe wambaye umupira w'umutuku, akaba bacuruza intoryi, inyanya, hakaba harimo na karoti, ibishyimbo, ibitunguru, imiteja, hakaba kabari n'umufuka ufite ibara ry'umweru ndetse n'ibase hamwe hirya n'imyenda.

Igisheke gifite ingingo ndende ndetse kikaba cyegetse ku kabati k'ibiti babikamo ibicuruzwa hakaba hariho n'ingufuri, intebe yo kwicaraho y'ibiti abantu harimo abakobwa n'abagore hamwe n'imifuka.

iIoko rigiye ririmo ibitunguru, intoryi, karoti, amashaza, hakaba harimo n'amashu, hi'rya hakaba hari indobo, hakaba harimo inkingi zigiye zifashe isoko.

Abantu bari mu isoko higanjemo abakobwa n'abagore, n'abasore, n'abagabo hakaba hari ibitoki bifite ibara ry'icyatsi karoti, inyanya hamwe n'ibitunguru.

Abantu bari hirya hari uwambaye ingofero yayirebesheje inyuma, akaba yambaye umupira w'ubururu, undi akaba atagaragara neza wambaye umupira w'umutuku, uduseke twinshi tugiye dufite amabara atandukanye...

Umukobwa w'umucuruzi, ucuruza imyenda y'imbere, akaba afite n'undi mwenda w'imbere mu ntoki, akaba yambaye ikanzu ifite ibara ry'icyatsi n'ingofero, hirya ye hakaba hari umugabo wambaye ishati isa umutuku, hakaba inyuma ye hari ibikapu

Isoko ririmo abantu higanjemo abagore n'abagabo, hakaba harimo inyanya, intoryi, ibirungo bakoresha mu ndobo ndetse n'ibase hamwe...

Imbuto ziri mu isoko harimo indimu, amacunga, imineke, ibinyomoro, imyembe, amapome hamwe na kizimyamwoto ifite ibara ry'umutuku hakaba harimo n'abantu baje guhaha.

Ndi kubona abacuruzi, umucuruzi w'umugore, inyanya, ndi kubona inyanya, nkabonamo amashu, nkabonamo ibitunguru, amavuta, ibirungo, imiteja, ibiti n'amabati.

Abantu benshi, harimo umusore wambaye amadarubindi wayazamuye, wambaye n'ishati y'umweru, hakaba hari indangururamajwi nini ifite ibara ry'umukara, inyuma ye hakaba hari ikirango kinini kiriho imodoka ifite ibara ry'umukara, akaba ari ikirango kigaragaza ko ari ikigo cy'itumanaho.

Umuntu w'umugore cyangwa se w'umukobwa, uhagaze imbere y'akazu gafite ibara ry'umuhondo. Hakaba hari ibirango bigaragaza ko ari ikigo cy'itumanaho, ibiti bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amazu.

Umuntu umusore cyangwa se umugabo wambaye ikoti ry'umutuku, akazu gafite ibara ry'umuhondo karimo umuntu kariho ibirango bigaragaza ko ari ikigo cy'ikoranabuhanga cyangwa se gishinzwe itumanaho inzu nini imiryango irimo ibirahure.

Ikirango cy'ikigo cy'itumanaho gifite ibara ry'umuhondo, hakaba hariho amagambo y'umukara yanditseho akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego, hakaba hari n'indi mibare yo hasi yandikishije ibara ry'ubururu, ikaba ari imibare bishyuriraho.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo kariho ibirango bigaragaza ko ari ikigo cy'itumanaho, hakaba handitseho imibare ndetse n'ibimenyetso biri mu ibara ry'umutuku, bivuga akanyenyeri, gatutu, zeru, gatatu, urwego, hakaba hariho n'amagambo afite ibara ry'umukara ndetse hakaba hari umusore wambaye umupira w'umweru ndetse akaba ahetse n'igikapu cy'umukara.

Iyi shusho iragaragaza umusore cyangwa se umugabo ufite telefone ngendanwa n'ikarita imbere ye hari inyanya kuruhande ari umutaka w'umutuku umeze nkaho ari guhaha ibyo kurya akaba yambaye umupira w'ubururu.

Umukobwa ufite akantu gafite ibara ry'umukara, akaba anambaye ubusa hejuru ndetse akaba afite n'imisatsi y'umukara, hirya hakaba hari udukombe tw'umweru duteretse ku meza.

Ndi kubona ikigo cyitwa yuberi, gicururiza ku mbuga nkoranyambaga, amazina y'umuntu mbonye bamwita Nkurunziza ubakorera.

Ipikipiki ifite agakoresho bifashisha babika ibintu abantu batumye, gafite ibara ry'umutuku ndetse n'amagambo y'umweru, hirya hakaba hari umusore wambaye agapfukamunwa gasa umukara n'utugozi tw'umweru.

Uri kubona ikiziga cy'i, iki, ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri, gikorera kampani itwara ibiryo, umuntu n'inzu, n'undi muntu ku ruhande.

Umuntu uhetse igikapu gifite ibara ry'icyatsi n'umukara, akaba yambaye n'umupira w'icyatsi cyijimye, akaba afite igare, akaba ari imbere y'umuryango munini w'icyuma, hirya ye hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi biri ku rugo.

Umugabo wambaye umupira ndetse n'ipantaro, akaba ateruye ikarito iriho amagambo y'umukara, hakaba hari utubati tw'ibyuma hirya tugiye turiho ibirango.

Inzu ikodeshwa amafaranga magana atanu mirongo itanu y'amanyamahanga, ikaba iherereye Kabeza i Kigali. Ikaba ifite intebe ebyiri zifite ibara ry'icyatsi n'imisego ndetse hakaba hari igikoresho cyinjiza umuyaga hirya hamwe n'imeza.

Uburyamo buriho amashuka n'ikiringiti bisashe neza, bikaba biri mu cyumba, hakaba hari amarido y'umukara ndetse n'umweru, hakaba hari n'ibikuta bifite ibara ry'umweru, ikaba ikodeshwa magana atanu mirongo itanu y'amafaranga y'amanyamahanga, ikaba iherereye i Kigali, Rwanda.

Ibikuta bifite ibara ry'umweru, hakaba hari n'umuryango uriho ukozwe n'ibiti ndetse ikaba ari inzu igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda.

Ndikubona uburiri bufite imisego, amashuka, bushashe neza, n'ikiringiti n'utubati, ku ruhande n'amarido, ubwo buriri buri mu cyumba.

Inzu igura miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda, ikaba iherereye i Kanombe Kigali mu mujyi, ikaba ifite itara ndetse n'utubati ndetse n'igikoni, hakaba hari aho kogereza ibyombo...

Inzu iri i kigali ikodeshwa 1500 cy'amafaranga y'amanyamahanga ikaba iherereye kibagabaga i kigali ikaba iteyemo ubusitani mo imbere akaba ari akarongo iparitse kuri ubwo busitani gafite amabara y'umweru n'umukara.

Intebe zifite imisego isa umweru ndetse n'undi musego usa umukara ameza y'igiti hamwe nizindi ntebe zifite ibara ry'umukara, amarido, idirishya ndetse n'itara.

Igikuta gifite ibara ry'umweru ndetse nurugi rw'igiti rufunguye hakaba hari n'uburyamo bufite amashuka ndetse n'akabati karekare.

Ikirahure kirimo umuntu ndetse akaba hari n'itara mu kirahure hamwe n'urukuta rufite ibara ry'umweru, akaba ari inzu igura miliyoni mirongo ikenda n'eshanu iherereye i Kigali Kanombe.

Inzu ikodeshwa iherereye gikondo kigali, ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe. Ikaba ikode ibihumbi maganabiri na mirongwitanu ku kwezi ikaba iifite amadirishya abiri ndetse n'umuryango umwe, n'itara hejuru y'umuryango.

Inzu ikodeshwa ibihumbi mirongo itandatu hakaba hari igipangu ndetse igipangu kikaba gifite ibara ry'umukara ndetse n'ibirahure, hakaba hariho n'ibara ry'umuhondo hakaba hari akayira gatambika mu yindi nzu hakaba hari insinga z'amashanyarazi n'ibiti.

Inzu iherereye i Kigali Kanombe ikaba ikodeshwa, ikaba igizwe n'ibyumba bine ndetse n'aho kogera hatatu ndetse ikaba ifite ubusitani mo mw'imbere buteyemo ibiti n'ibyatsi, hakaba haparitse imodoka imbere yayo ikaba ifite n'ibirahure byijimye.

Kubonashusho iragaragaza inzu ikodeshwa iherereye kimironkokaba ari n'umupira ujyana amazi akaba n'ikigega kibika amazi kuri icyo kigega hariho ariho urwego bazamukiraho bagiye kugikoramo amashusho.

Inzu ikodeshwa iherereye Kigali Kimironko ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi z'umweru, ikaba irimo ubusitani burimo ibiti iyo nzu ikaba bifite ibirahure byijimye.

Inzu ikodeshwa akaba iri i Gisozi, ikaba ifite icyumba kimwe n'aho kogera hamwe ikaba ikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi. Hakaba harimo akabati hamwe n'ahantu bakarabira cyangwa se bogereza ibyombo.

Inzu nini ndende, ifite ibikuta bifite ibara ry'umweru, ndetse hakaba hariho n'amadirishya ariho ibirahure, hirya hakaba ari ibyuma biyikikije bifite ibara ry'umukara, ndetse ikaba igura miliyoni magana atatu mirongo itanu z'amanyarwanda, ikaba iri Kigali, Rwanda

Inzu ikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu, ikaba iherereye i Remera ikaba ifite icyumba kimwe hamwe n'igikoni, ikaba yegereye umuhanda w'igitaka ikaba ifite umuryango ufite ibara ry'umukara, ndetse ikaba hari urukuta hanze rufite ibara ry'ubururu.

Inzu ifite ibirahure byijimye harimo uturongo tw'umuhondo ndetse gafite inkingi n'ibikuta bifite ibara risa umweru, hari udutara hejuru ibyuryo hakaba hari n'ibicu bifite ibara ry'umweru ikaba ikodeshwa ikaba iri i Kigali Kanombe.

Udutara turi kwaka ndetse n'abantu bari mu nyubako y'ubucuruzi, hakaba hari imyenda ndetse hakaba hari n'inkuta zifite ibara ry'umweru.

Ikirango cyanditseho simba kiri mumagambo y'umutuku akaba ari isoko rinini, abantu, harimo abagabo n' n'umukobwa uri kwinjira, akaba hari umugabo wambaye umupira uriho numero icumi, usa ubururu.

Iduka ricuruza imikandara ibikapu inkweto hakaba hari iz'abagabo n'abasore ndetse hakaba hari n'ibindi bintu byinshi bacuruza hakaba harimo n'inkweto z'abagore n'inkweto zifunguye.

Ndabona umucuruzi, abacuruzi babiri, abo bacuruzi babiri bari munzu icuruza imyenda, n'inkweto zifunguye, n'amatara.

Abagabo babiri, hakaba hari undi mugabo ugaragara igice, akaba ari umugabo wifashe inyuma ku kibuno, imbere yabo hakaba hari aho kwinjirira hafite ibara ry'umutuku n'umukara, bakaba bari mu isoko rigezweho.

Ni ikigo, ndikubona umukecuru n'umusaza, hasi hari ikigo gishinzwe ubuzima bwiza n'imibereho myiza, ni ubuzima bwiza nyine harimo ibyo kwa muganga nyine.

Kuri inoo foto ndikubonaho umwana, umwana w'umukobwa ufite imisatsi y'umukara yambaye agapira k'ubururu gafite uturongo tw'ubururu n'umweru. Hirya ye hakaba hari igihe icyapa cyangwa se rugo yanditse ejo heza. Hasi hakaba hari n'ikindi cyapa gisobanuye ko ari ikigo gishinzwe ubuzima n'imibereho myiza.

Abagabo babiri bambaye amakoti n'amakaruvati, ndetse bakaba bambaye inkweto zifunze zifite ibara ry'umukara, akaba ari umugabo wambaye amadarubindi ufite agakapu gafite ibara ry'umuhondo, hakaba ari n'igiti gifite ibara ry'icyatsi, n'inyuma yaho hakaba hari za mudasobwa n'abakozi bambaye imyenda y'ubururu.

Muri ino shusho ndiku kubonamo , ndikubona mu nzu y'ubucuruzi harimo igare bakoresha bashyiramo ibicuruzwa cyangwa se bakoresha ushyiramo ibyoyu uhashye.

Amatara ari hejuru ku gisenge, hakaba harimo amaremare n'amato, n'amato cyane, hakaba hari urukuta hirya rufite ibara ry'umweru, hariho akabati k'umukara kateretsemo ibicuruzwa byo kunywa, hakaba hari intebe zifite amaguru y'umukara ndetse n'imeza.

Ishusho iragaragaza ko hari abantu bari mu nyubako y'ubucuruzi akaba ari umusore cyangwa se umugabo ufite igikoresho bifashishaje bakonjesha ibintu ibyo kunywa, hakaba hari ubucupa burimo ibyo kunywa biryohereye n'ibicuruzwa n'abaguzi.

Ino shusho iragaragaza inzu y'ubucuruzi akaba ari utubari turimo ibicuruzwa hakaba harimo n'amatara maremare hakaba harimo ibicuruzwa byo kurya n'ibyo kunywa.

Ndikubona ibicuruza by'ibiribwa bicuruzwa mu isoko rigezweho bisa harimo umutuku, harimo ibiciro, urupapuro rw'ibiciro...